Hari igihe umuntu arwara ku buryo bwihariye bagahita bamujyana kwa muganga ako kanya. Mu gihe batinze kumujyana kwa muganga ashobora guhura n'uburwayi bukomeye bityo bikaba byamuviramo urupfu.

Mu gihe cy'icyorezo abaganga baba bambaye imyenda bikwije ku buryo badashobora kwandura icyorezo, nanone baterwa imiti mu gihe bavuye gukora ku murwayi kugira ngo batanduza abandi, bityo icyorezo kigakomeza gukwirakwira.

Ibigo by'amashuri biba bifite inyubako zihariye ku buryo umuntu ashobora kureba ikigo agahita yibwira icyo ari cyo, ibigo n'insengero biba bitandukanye kandi byubatse mu buryo bwihariye cyane.

Igihe umurwayi arwara, akarwara mu burwayi bwe, ku buryo bikomera cyane bikaba ngombwa ko yifashishwa imodoka zabugenewe, kugira ngo bamujyane mu bitaro bikuru byegereye ibyo bitaro yarimo.

Umuntu iyo agiye kwa muganga baramupima akamenya indwara arwaye. Gupima umurwayi bimufasha kumenya uburwayi bwe kandi muganga akamuha imiti, ihuje n'uburwayi bwe bityo agakira mu gihe gito.

Abarwayi bo mu cyaro, iyo barwaye, hari uburyo bu shobora gukoreshwa kugira ngo bagezwe kwa muganga kubera ko abari mu misozi, hashobora kwifashishwa ingobyi kugira ngo abo barwayi bagezezwe kwa muganga.

Mu gihe umurwayi arwaye bashobora kumujyana kwa muganga hanyuma bakamushyira mu bitaro by'indembe, aha bamushyiramo mu gihe afite ikibazo cy'umwihariko kandi ashobora kurwaragurika bikomeye bityo bakamushira aho hafi.

Kwa muganga umuntu ashobora kuhabonera ibikoresho bitandukanye, byifashishwa haba mu gupima ndetse no kuvura abarwaye indwara zitandukanye, umuntu utarize gukoresha ibyo bikoresho, kubikoresha bishobora kumugora cyane.

Umuntu iyo agiye kwa muganga bashobora kumupima bamutera urushinge mu kaboko hanyuma bagakuramo amaraso. Ayo maraso bashobora kuyajyana mu isuzumiro bakayapima, bakamenya icyo uwo murwayi arwaye.

Abaganga baba bakwiriye kuba abantu batagira ubwoba bazi kwihangana ndetse no gushishoza, baba bakwiriye kwibuka neza ibintu bize byose kuko baramutse babyibagiwe bashobora kubaga cyangwa se bakavura umurwayi nabi.

Gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ntabwo bigoye ariko na none bisaba ko umuntu aba yarabanshije guhugurwa cyangwa kwigishwa uko bikoreshwa niyo mpamvu ku bitaro bimwe na bimwe uhasanga ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ku bitaro ni ahantu abarwayi bajya bagiye kwivuza indwara zabo zitandukanye, abarwayi barembye hari imodoka zibafasha kujya ku bitaro bikuru kugira ngo basuzumwe hanyuma uburwayi bwabo bukire.

Abantu mu ngeri zitandukanye bagenda bagana ibitaro kugira ngo bakire uburwayi bafite kandi ubwo burwayi iyo babukize barishima, haba hari abantu kwa muganga benshi ndetse no kugira ngo birinde indwara z'ibyorezo bambara udupfukamunwa.

Ibitaro bifite akamaro cyane kuko byigisha abantu uko bakoresha neza ubuzima bwabo. Abantu babiri bashobora kuganira cyangwa se bakamurika umushinga bakoze ujyanye n'ubuzima.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, abantu b'abahanga nibo bamenya kubikoresha kubera ko biba byarakorewe hanze y'igihugu, bityo bikaba bisaba ko umuntu yigishwa kubikoresha mbere y'uko abikora.

Inyubako zisuzumirwamo abarwayi ziba zirimo ibikoresho byihariye, bifasha abantu gusuzuma abarwayi mu buryo bamenya ibyo barwaye byose. Umuganga ni we uba ufite uburenganzira bwo gusuzuma umurwayi.

Abanyeshuri iyo bagiye mu masuzumiro kugira ngo bige uburyo ibikoresho runaka bikoreshwa, bagomba gutanga ibitekerezo, buri wese agaha igitekerezo mugenzi we ndetse na mwarimu akabasobanurira, uko ibikoresho runaka bikoreshwa.

Abaganga baba bafite ahantu basuzumira indwara mu gihe bafashe umurwayi amaraso, bakamenya indwara zose arwaye bifashishije ibipimo byabugenewe. Ubwo rero mu gihe umuntu ashaka kuba umuganga abagomba kwitoza gukoresha ibyo bikoresho.

Hari igihe umuntu arwara indwara runaka bakamujyana kwa muganga, hanyuma bakamupima. Ashobora kwibaza uko bamenya uko arwaye, ariko kugira ngo abimenye ni uko amenya ko abaganga baba bafite ubushobozi bwihariye, bwo gukoresha ikoranabuhanga.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga biba byihariye kandi bisaba ubuhanga kugira ngo umuntu abikoreshe, kwa muganga habamo inyubako umuntu apimirwamo indwara arwaye hanyuma iyo ndwara nayo bakagenda bakayipima bakaza bakamuha ibisubizo.

Abantu bagira uruhare mu bintu bibakorerwa ariko kandi iyo umuntu arwaye akajya kwa muganga kwisuzumisha, bashobora kwifashisha mudasobwa kugira ngo bamenye uburwayi bwe bakora ubushakashatsi, ubwo rero mudasobwa ifite akamaro cyane.

Abantu biga ibijyanye n'ubuganga baba bagomba kujya mu masuzumiro kenshi bakareba ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, hanyuma abarimu babo na bo bakabafasha kumenya uburyo bashobora kubikoresha, nanone kandi abaganga na bo bifashisha uburyo bwo kwitoza gukoresha ibyo bikoresho.

Abaganga bakora mu isuzumiro bagomba kuba bafite ubuhanga bwo gupima indwara kandi bazi gukoresha ibikoresho bigaragara mu isuzumiro kuko batamenye gukoresha ibyo bikoresho bashobora kubyangiza.

Hari ibikoresho bifasha abaganga gupima abarwayi, ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga kubirebamo biba bisaba ubuhanga kandi bisaba ko umuntu aba azi gukoresha neza ibyo bikoresho kuko atabimenyereye yabyangiza.

Abanyeshuri nabo baba bakwiriye kwigishwa uburyo bukoreshwa mu gusuzuma abarwayi, bakareba ibikoresho byose byifashishwa basuzuma abarwayi, hanyuma nabo bakiga kubikoresha kuko nabo mu gihe kiri imbere baba bazabikoresha.

Ababyeyi bafite abana, baba bakwiye kubajyana kwa muganga, bakabitaho mu bijyanye n'imikurire yabo kugira ngo babarinde ibibazo biterwa no kuba batitaweho neza. Ibyo bibafasha gukura neza batarwaragurika.

Hari inzu ziba zaragiye zubakwa hirya no hino mu gihugu, kugira ngo zifashe abaturage, gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima bwabo. Ku bitaro ni hamwe mu hantu umuntu ashobora kujya agasobanurirwa, uko yafata neza ubuzima bwe, cyane cyane ubuzima bw'abana.

Mu gihe umuntu yagiye kwa muganga aba agomba kwitegura ko ashobora gupimwa bamuteye urushinge. Urwo rushinge rukurura amaraso hanyuma ayo maraso nayo akagenda agapimwa n'abaganga bakamenya uburwayi bwe.

Abana bakiri batoya iyo bajyanywe kwa muganga, muganga abitaho nk'aho ari abana be, kuko abaganga ari abantu beza baba bazi gushishoza, bakavura umwana bakurikije uburwayi bwe.

Abana bakwiye kwitabwaho n'ababyeyi babo, babonsa mu minsi ya mbere igihumbi, bakabaha amashereka ahagije kandi bakumva banyuzwe mu gihe bari kumwe na bo, umwana witaweho atekereza neza kandi akumva akunzwe.

Ababyeyi bafite abana baba bakwiriye kubitaho inshuro nyinshi babagaburira indyo yuzuye kandi bakabapimisha kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, ubwo rero abana na bo baba bakwiriye kwishimira kubana n'ababyeyi babo.

Ababyeyi bagira agaciro cyane bita ku bana babo, abajyanama b'ubuzima bagomba gufasha abandi kumenya ibyiza by'ubuzima bwabo bityo bakaba bafasha abana babo gukura mu buryo bworoshye.

Abana bakiri batoya baba bakwiriye kujyanwa ku irerero hanyuma bakitabwaho. Aho ngaho bashobora kubatekera igikoma bakanywa bagasabana n'abandi bana bityo ubucuti bafitanye bukiyongera.

Abana bakiri batoya bashobora kwitabwaho n'abanyabuzima, abanyabuzima ni abantu bahabwa amahugurwa bakayahabwa n'inzego z'ubuzima kugira ngo nabo bagende bayahe abaturage bityo ayo mahugurwa bayafashishe abandi.

Kwa muganga umuntu ashobora kuhabonera ubuvuzi bw'ibanze, mu gihe arwaye bikomeye ashobora kujya kwa muganga bakamuha igitanda, hanyuma muganga akajya amusura buri gihe.

Mu masoko agaragara hirya no hino mu gihugu, abantu bacuruza ibintu bitandukanye, birimo imbuto ziribwa inanasi, inyanya, karoti ndetse n'imboga. Abantu bahurira aho hantu kugira ngo bazigure, kandi bituma ubuzima bwabo bugenda neza.

Ababyeyi bagira ubuzima bwiza iyo bumvise inkuru nziza bakishima. Iyo bateraniye hamwe bakabyina buri wese aba afite ubushobozi bwo kwishima, kandi ubuzima bwe bumera neza.

Abana bakiri batoya bakwiriye kwitabwaho cyane, bakajyanwa kwa muganga inshuro nyinshi kugira ngo bavurwe indwara zose bafite, hanyuma ubuzima bwabo butagire ikibazo na kimwe bityo iterambere ryiyongere.

Abantu bakwiriye gutekereza neza, kandi bagahabwa amahugurwa ajyanye n'uburyo batekereza neza, ayo mahugurwa abafasha mu buzima bwabo, kumenya uko bakwitwara ku bandi.

Abantu bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye, bashobora kujya kwa muganga ariko hari igihe umuntu yumva atameze neza mu mutwe, icyo gihe ashobora kujya ahantu habugenewe, hateganyirijwe abantu kugira ngo bahafashirizwe, ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abaturage baba bakwiriye gusobanurirwa ibijyanye n'ukuntu bafata ubuzima bwabo, cyane cyane baba bakwiriye kwigishwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kandi bakigishwa uko bafasha abandi bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Ni ibintu biba byarashyizweho kugira ngo bifashe abaturage, abaturage bahabwa amahugurwa kugira ngo bamenye uko bakwitwara ku buzima bwabo, nanone kandi bahurira hamwe bakaganira ku ngingo zitandukanye.

Abantu bakwiriye gusobanurirwa ibijyanye n'ubuzima bwabo, ni yo mpamvu hari ibitabo byinshi bibafasha gusobanura uko ubuzima bwabaye, nanone kandi hari abantu bakoreshwa mu gukora amahugurwa rusange asobanurira abantu icyo bakora ngo bagire ubuzima bwiza.

Hari imiti yabugenewe, ivura inkoko bitewe n'ubwoko bwazo. Abahanga bavuga ko mu gihe umuntu agiye kugura umuti agomba kubanza gusoma, akareba ubwoko bw'umuti agiye kugura.

Imiti yujuje ubuziranenge iba yaragenzuwe n'igihugu, hanyuma umuntu uyicuruza agahabwa uruhushya rwo gucuruza iyo miti. Mu gihe umuntu afashwe acuruza imiti itujuje ubuziranenge arahanwa.

Imiti icuruzwa ariko nticuruzwe n'abaganga icuruzwa n'abantu babifitiye uburenganzira kandi iba yarapimwe ubuziranenge kugira ngo itangiza ubuzima bw'abaturage bityo bakarwaragurika.

Imiti icururizwa mu maduka abantu baba barashinze, igomba gupimwa ubuziranenge mbere y'uko bayicuruza, kuko ubuzima bw'umuntu buba bufite agaciro gusumba iyo miti, n'abo bantu bayicuruza baba bagomba gushishoza kugira ngo itazangiza ubuzima bw'abantu.

Abantu bacuruza hari inyungu babona mu bintu bacuruza kandi akenshi iyo umuntu acuruje aba agomba gushora amafaranga runaka kugira ngo agire inyungu abona, ibyo bituma abacuruzi babona inyungu nyinshi mu gihe bacuruza.

Inyubako zicururizwamo imiti zigomba kuba zifite isuku ihagije. Mu gihe zidafite isuku abayobozi bashyiraho gahunda yo kuzifunga kugira ngo zidakomeza kwangiza abaturage.

Imiti icururizwa mu mazu abantu bafite igomba kuba yujuje ubuziranenge kuko nayo ihabwa abantu. Abo bantu baba bakwiye kurindwa ko iyo miti yabangiza kugira ngo ubuzima bwabo busigasirwe cyane.

Hari amavuriro gakondo aho bavura indwara zananiranye, ayo mavuriro akoresha ibimera bagatanga ndetse n'inama, kwivurira muri ayo mavuriro, bifasha umurwayi kubona ubuvuzi akeneye ku gihe.

Hari amaduka acuruza imiti y'abantu ndetse n'imiti y'amatungo. Imiti iba itandukanye ariko abantu baba bakwiye gushishoza ku bijyanye n'imiti banywa, bakareba ko ahantu bagiye kuyigurira ifite ubuziranenge.

Amatungo agira uruhare mu iterambere ry'umuturage, kubera ko iyo muturage yoroye amatungo adashobora gukena. Ni muri urwo rwego rero abaganga b'amatungo baba bakwiriye kuzana imiti myinshi kugira ngo amatungo y'abaturage atarwara.

Abaturage bigishwa ibijyanye n'ubuzima binyuriye mu mahugurwa abantu bagenda batanga, ariko nanone hari uburyo bushobora gutegurwa kugira ngo abaturage ndetse, bigishwe by'umwihariko abakiri batoya ibijyanye n'ubuzima bwabo.

Hari uburyo bukoreshwa mu kwamamaza igikorwa runaka. Abanyeshuri nabo bashobora gukoreshwa bamamaza igikorwa runaka. Urugero bashobora kwamamaza uko abantu bafata neza ubuzima bwabo ndetse bakanatera imbere.

Abantu bakwiye gukora uko bashoboye kose ubuzima bwabo bukagenda neza, hari amahugurwa agenda ategurwa n'inzego z'igihugu, kugira ngo afashe abaturage cyane cyane urubyiruko kumenya ingaruka z'indwara runaka n'ukuntu bazirinda.

Hari gahunda zitandukanye igihugu gishyiraho kugira ngo cyamamaze uburyo abaturage bashobora gukoresha kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Kwitabira izo gahunda bituma abaturage bamenya ibintu byose bashobora gukora, mu buzima bwabo bukagenda neza.

Inkingo zigira uruhare mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza kandi iyo abantu bazifatiye ku gihe bashobora gukira indwara zibabaza, ubwo rero hari gahunda zigenda zishyirwaho zo kwamamaza inkingo kugira ngo abaturage bazikoreshe.

Abaturage bakwiriye guhugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwabo. Bakigishwa ibyo bakora kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Bashobora kwigishwa n'abandi bantu b'inararibonye mu buzima cyangwa se bakabwirana amateka y'uburyo bafata neza ubuzima bwabo.

Abantu benshi iyo bateraniye hamwe hari ibintu byinshi bagenda bunguka kandibafasha mu buzima bwabo busanzwe bigatuma bagira ubuzima bwiza kandi bakarushaho gufashanya mu mirimo yabo ya buri munsi.

Hari uburyo butandukanye abaturage bashobora gusobanurirwamo, ibijyanye n'ubuzima bwabo, urubyiruko by'umwihariko rukwiriye kwitabwaho, rugasobanurirwa uko rwakwita ku buzima bwabo, aho hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa nko gukoresha icyumba cy'inama, bakaganira.

Imiti gakondo igira uruhare mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza kuko abantu bashobora kuyibona ahantu baherereye hose ariko kandi baba bagomba kwitonda mu gihe bakoresha iyo miti kuko ishobora kubangiza kandi ishobora kubahenda.

Imiti irimo imiravumba ishobora kuvura abantu indwara zoroheje nk'umutwe ndetse n'inzoka zo mu nda, abantu bashobora gusoroma iyo miti, bagahita bayikoresha nta kindi kintu bibasabye uretse kuyisiga gusa.

Abantu iyo barwaye bashobora kwitabwaho mu buryo butandukanye, umubyeyi aba akwiriye kwita ku bana be, ariko nano mu gihe umuntu mukuru nawe arwaye, mu buryo gakondo hari uburyo bakoresha bamunura, kugira ngo akomeze kumva amerewe neza.

Imiti gakondo igira uruhare mu gutuma ubuzima bw'abaturage bugenda neza, kubera ko iyo miti igura amafaranga makeya, gusa irabanza igatunganywa, abaturage baba bafite uburyo bwo kuyitunganyiriza kugira ngo bayikoreshe mbere yo kuyinywa.

Ibiti bigira akamaro cyane ariko amababi yabyo na yo ashobora kuvamo umuti, umuti uva mu mababi y'ibiti uvura indwara nyinshi kandi uwo muti ushobora gukoreshwa n'abantu bo mu ngeri zitandukanye.

Abavuzi gakondo bagira uruhare mu gutuma abaturage babona imiti myiza kandi ihendutse. Iyo miti ishobora kuva mu byatsi cyangwa mu bindi bintu. Gusa mbere y'uko bayihabwa irabanza igatunganywa, hanyuma hakavamo ibyatsi abantu bashobora kunywa.

Ubuzima bw'abantu buba butandukanye ariko bwose buba bukwiriye kwitabwaho. Abagabo, abagore, abakecuru, inkumi n'abasaza ni abantu baba bafite imbaraga zitandukanye, ariko iyo bashyize hamwe bashobora gukora ikintu kinini.

Imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo iba itandukanye n'imiti ikoreshwa mu kuvura abantu, kuko amatungo agira uburwayi butandukanye n'uburwayi abantu barwara, ariko iyo miti yose irabanza ikagenzurwa.

Ibikorwaremezo bitandukanye bifasha abaturage, biboneka ahantu hatandukanye mu gihugu. Abaturage bakwiriye gusobanurirwa icyo bakora, kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse n'ibintu byose bashobora kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ahantu abantu bashobora kubonera, serivisi zijyanye n'ubuzima ni kwa muganga. Ariko nanone hari ahandi hantu hatandukanye abantu bashobora kujya, bakigishwa uburyo bashobora kugira ubuzima bwiza, burambye.

Abaturage bafite abana baba bagomba kubakingiza inkingo zose, kugira ngo abo bana babeho neza. Mu gihe abana bakingijwe bagira ubuzima bwiza, kandi bushobora kubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibigo bishinzwe kwita ku barwayi bifasha abarwayi kugira ubuzima bwiza, umuntu wese aba agomba kwita ku buzima bwe, niyo mpamvu hari ibikoresho biba byarashyizwe kwa muganga kugira ngo umuturage najyayo abone ubuvuzi bw'ibanze.

Imiti igirira akamaro abaturage ni yo mpamvu hari ahantu hacururizwa imiti hatandukanye umuturage ashobora kujya akabona imiti akeneye kandi umuntu ushaka imiti wese ashobora kwegera ibitaro mu gihe arwaye agakira.

Abarwayi bo kwa muganga baba bakwiye kwihangana mu gihe bavurwa. Muganga ashobora gupima umurwayi akoresheje uburyo butandukanye, hanyuma akamenya uburwayi bwe, bityo akamuvura azi ikintu arwaye.

Kwa muganga haba harimo ibitanda abarwayi barwariraho. Ibitanda byo kwa muganga biba bimeze neza bidashobora guteza impanuka, gusa icyo gitanda kiryamaho umurwayi gusa.

Abaturage iyo bagiye kwa muganga babitaho, bakabafasha mu bihe byabo by'uburwayi bityo bakabona ubuvuzi bw'ibanze bagakira uburwayi barwaye. Abaganga babishoboye baba bazi kwita ku bantu bakuze kugira ngo nabo bamere neza.